Iyo umuntu akora mu miti, mu mafumbire, akoresha ga kugira ngo amafumbire n'imiti bitamwangiza intoki, ndetse bikangiza n'umubiri, kugira ngo bigende neza.

Ifumbire bitaga ire, bayikoresha mu bigori, ituma udusimba tujya mu bigori dupfa, ikigori kikazamuka neza irinda ikigori, n'umuti w'ibigori cyane cyane, iyo kikiri gitoya cyane.

Ifumbire idufasha kugira ngo ibihingwa bizamuke neza, bibyibuhe kandi ibifasha kugira ngo bibe bini.

Ahantu bacururiza imiti y'amatungo, bahacururiza n'ibiryo by'amatungo, tukajya kubihaha bitaduhenze, tukabona inyungu y'amafaranga, tubonamo n'ibyo tugaburira amatungo.

Amafi adufasha kugira ubuzima bwiza, abantu barya amafi bagira ubuzima bwiza usanga abantu begereye ikiyaga babona amafaranga, bakunda kujya kuroba bose usanga barabyize cyane.

Amafi araryoha aba mu mazi, mu biyaga usanga hari amafi, abantu bakunda kuyaroba baba bafite amafaranga menshi cyane cyane, kuko abazamura no mu mibereho myiza, bakiteza imbere cyane cyane kurusha ibindi byose.

Inyanya ni igihingwa cyera cyane kigira inyanya nyinshi, kigira imbuto nyinshi ziduha amafaranga menshi ugasanga umuntu ahise azamuka mu bihinzi cyane iyo zitapfuye.

Guteka ifi ugashyiramo agasenda gake mu sosi, ugashyiramo agatunguru, bigenda neza. Ariko iyo umwana ushaka ko agira ubuzima bwiza, umutekera ifi nta bwo ushyiramo urusenda.

Indagara ni nziza cyane, zidufasha gukira uburwayi. Usanga zituma umuntu agira ubuzima bwiza. Umuntu bategetse kurya indagara ari mu mirire mibi, usanga akize uburwayi vuba, agahita akura vuba vuba.

Insina ni igihingwa cyiza kivamo ibitoki, havamo umutobe, havamo n'inzoga.

Amashuri yose asigaye ari mu gihugu yose arasa ku buryo utayoberwa amashuri n'inzu zo kubamo, ahantu hose hageze amashuri ku buryo abana bacu babona aho bigira hatababangamiye cyane.

Ahantu hari igiti nk'iki ngiki, usanga hari agacucu kenshi haza n'akaya keza, usanga hari ubusitani, usanga uhicaye utekereza neza, abantu bakunda no kuharuhukira kubera ko haba ari ahantu heza kandi hatuje cyane.

Inka ni nziza ziduha amata, cyane cyane iyo ufite aho kuyiragira, usanga zitanga amata, zitanga ifumbire, inka ni nziza cyane, zituma twikenura mu buzima bwacu. inka ni ngombwa.

Ibidodoki ni ibiribwa byiza bivamo imboga, bikavamo n'ingereko. Ibidodoki kandi nta bwo bikenera amazi menshi. Ibidodoki byera ahantu hose. Ni imboga nziza kandi ziryohera bose.

Umurima urimo ibidodoki, wateramo n'insina, bateramo n'ibindi bintu, hashobora kuba hitwa mu rutoki. Njyewe rero nkunda ibidodoki kubera ko byongera amazi mu mubiri, bigatuma umuntu atarwaragurika.

Mucyayicayi zigira akamaro, cyane cyane mucayi, tuzikoresha mu gikoma, tuzishyira no mu cyayi, usanga mucyayicayi iyo washyize mu mazi uyanywa ukumva araryoshye, wumva harimo icyanga cy'icyayi.

Igihingwa cy'igisheke ni ikintu cyiza, gifasha abantu mu mizamukire babonamo amafaranga, iyo wahinze ibisheke nta kindi kintu uhingamo, bigenda byonyine kandi ukabishyiraho n'ifumbire, kugira ngo bimere neza cyane.

Ibyatsi bita mucyayicyayi bikoreshwa mu cyayi, bigakoreshwa mu gikoma .Mucyayicyayi ivamo umuti, igakoreshwa ku buryo bwinshi, ni igihingwa gikoreshwa ahantu henshi, gifite akamaro kanini kandi kidatwara umwanya munini.

Ibirayi n'igihingwa cyiza, bakunda kubihinga mu majyaruguru, cyane cyane mu Kinigi bahinga ibirayi bita Kinigi, bakabigemura ku masoko menshi I Kigali, no mu majyepfo n'ahandi henshi.

Wotameloni ni ikiribwa, ni imbuto nziza ziryohaha cyane, zijya kumera nk'igihaza. Usanga mu nda ari umutuku, ziraryoha cyane bakunda kuzikoresha ari deseri, zikora no mu bukwe cyane cyane.

Wotameloni ni ikintu bakoresha ku meza bari kurya, akenshi gikoreshwa nyuma bararangije kurya, byifashishwa nka deseri, mu birori usanga kirimo kandi iraryoha cyane.

Ibisheke ni byiza cyane, bikunda kuba ahantu hafi y'amazi, ibisheke nti bikenera ifumbire ryinshi, ibisheke wabitera aho ari ho hose, ibisheke biraryoha bigira isukari y'umwimerere, kandi ibisheke bigira n'amafaranga.

Ibihaza ni byiza cyane, ibihaza bikunda kwera ahantu hakonja cyane. Ibihaza ni ingirakamaro turabirya, bidufasha mu mirire yacu. Ibihaza usanga biduha amafaranga, abantu bahinga ibihaza usanga bakunda kugira amafaranga menshi cyane, iyo bigeze muri sizoni yabyo.

umuma urimovuto ngogagushimishije c anjewa buriya ba ninjijwe muridanlo muyuga n'inshutiyinshi byinshi in nkunda gacana harimo pou hari naindimo n benshi ibyo byose bidufashaga mu buzima bwizac

Izi mbuto ziri hano zivura indwara nyinshi, zifite intungamubiri zihagije, n'ibinyomoro byongeraga amaraso mu mubiri w'umuntu, yjewe akenshi iyo njye mu isoko ngura inanasi, imineke ya kamaramasenge, ibyo byose bigira ingaruka nziza nyinshi cyane cyane mu mubiri w'umuntu.

Icyayi ni igihingwa cyiza gihingwa muri Nyaruguru, icyayi kidufasha kuzamura ubukungu mu gihugu, kidufasha kuzamura imibereho myiza.

Imbuto zidufasha mu mikurire yacu. Njyewe iyo ngiye mu isoko bampaye amafaranga, iyo nsaguye nguramo imbuto nshaka kubera ko zirandyohera.

Ibisheke ni igihingwa cyiza, kigirira akamaro ugihinga, kikagirira akamaro ukirya, kubera ko kibamo isukari y'umwimerere, ifasha umuntu kumererwa neza, ntarware ibirwara bya hato na hato.

Ibishimbo by'ibitonore ni byiza cyane, bivamo inonore ushaka wabikoresha nk'aho ari imboga ushaka wabikoresha nk'aho atari imboga, wabigerekaho ibirayi, wabicuruza ukabonamo amafaranga, byagufasha gukemura ibibazo byose waba ufite byinshi cyane.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gifasha abantu kwikura mu bukene, kubera ko kigurwa amafaranga menshi cyane, kandi ibirayi abantu bose bakunda ibirayi kubera ko ni igihingwa buri wese yibonamo kandi ibirayi nta muntu utabirya, ibirayi birakundwa cyane no mu mahanga yo hanze.

Wotameloni bayikoresha bayirya, wotameloni yongera amazi mu mubiri ,wotameloni bayikoresha nka deseri ni imbuto nziza, amaronji ni imbuto nziza zidufasha kubona amafaranga, ubuzima bwiza , tugira ubuzima umubiri utoshye iyo turiye imbuto nk'izo ngizo.

Ibi bijumba bisa gutya, babitekamo amandazi. Ni ibijumba biryoha, bidufasha nko mu mirire yacu. Babyita ingandurarugo kuko ni ibijumba byororoka cyane.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane. Usanga gifasha abantu. Amateke abantu benshi barayakunda cyane. Usanga abantu bayakunda, cyane cyane amwe yo mu mazi. Araryoha cyane, abantu benshi barayagura.

Rozwari idufasha kubona uko ducucira, ducuci amazi mu myaka yacu dukoresheje igikoresho bita rozwari, usanga gicucira neza, ugasanga umuntu ntabwo bimugoye, na n'ubwo bimuvunye kuko hajyamo amazi make.

Puwavuro n'ibirungo byiza bikoreshwa mu bintu byinshi, babiteka mu nyama, babiteka mu mboga, babiteka musombe puwavuro iyo yeze neza iduha amafaranga menshi ni igihingwa cyiza cyane kidufasha kwikura mu bukene.

Urusenda bita kamura, usanga abantu barukunda kubera ko ruba n'umuti ku nkoko, inkoko yarwaye umuraramo bayiha kamurari, iyo inkoko yarwaye ibicurane nayo bayiha kamurari, ugasanga irakize.

Insina ni igihingwa cyiza kidakunda kubangamira ibindi. cyibikirara amazi. Aho ariho hose wakihashyira kubera ko cyihanganira ibirere, kubera ko kiba cyifitiye n'amazi menshi cyane. Ni igihingwa cyiza kivamo imineke y'ibitoki...

Ahantu hatari amabuye, duhingisha isuka nini bitaga kidimu, ubutaka bukagenda neza, ahantu hatari amabuye harera, nta gihingwa kitahajya, icyo wahashyira cyose, kirahera, ngewe rero...

Icyayi kugisoroma neza bagisogora bambaye agatebo, bagakatisha icyuma, ukagenda ukambaye kugira ngo ubone uko ujya ushyiramo kandi usogore vuba vuba.

Ibigori ni byiza cyane cyane amahundo. Ibigori babiteka ari amahundo cyangwa ukabitekamo akawunga, ibigori barabibetesha bagakuramo igikoma, ibigori biduha amafaranga, ni igihingwa cyiza cyane cya buri wese.

Umufuka utwara ibintu neza, n'iyo waba uvuye kugura imboga wazikoreramo, ibintu biri umufuka ntabwo bipfa kwangirika kubera ko niyo wagwa biba bikomeye kandi bifunze neza.

Umushinga wo guhinga imboga, nk'iza'amashu, usanga uzamura umuntu vuba, kubera ko amashu arakundwa, usanga ku isoko hose, amashu bari kuyagura kandi amashu yera vuba, ntago atinda mu murima, nta n'ubwo akunda kurwaragurika.

Ibi bihingwa byera hakeya mu gihugu, ntabwo byera ahantu hose ariko aho byera bigira umusaruro mwinshi cyane cyane, bigatuma twivana mu bukene, kubera ko dukuramo amafaranga menshi cyane.

Gucucira imyaka bitanga umusaruro, kubera ko ibihingwa bihora bifite amazi, usanga bitohagiye bimeze neza, n'iyo haba mu gihe cy'izuba, usanga umusaruro uri kuboneka uko bikwiye.

Isoko ribamo ibintu byinshi, habamo ibitoki, habamo avoka, habamo abantu bari guhaha, habagamo abantu bari kubipakurura, usanga mbese hameze neza buri wese akabona icyo yakoreramo cyamufasha mu mizamukire.

Telefone zitugirira akamaro kanini, kubera ko ahantu hose ushaka, ubu atari ngombwa kuhagera. Usanga umuntu akoresha telefone agahamagara aho ashaka guhamagara. Uwo ashaka wese amubona kuri telefone ku buryo bwihuse cyane.

Indimu ziravura, indimu zifite akamaro kanini kenshi cyane cyane, kubera ko indimu zivura inkorora, zivura umutwe, zivura n'ubundi burwayi. Indimu turazirya, indimu n'imbuto nziza bazishira no ku biryo nka salade cyane.

Inanasi ni imbuto nziza, zidufasha kubaho neza, tukagira ubuzima bwiza. Umwana wese uriye inanasi agira ubuzima bwiza, akamererwa neza, ntagira uburwayi bwinshi, ntakunda kurwaragurika.

Ikigori ni ingirakamaro, kibamo n'intungamubiri nyinshi, gituma kandi no mu rugo bamererwa neza cyane, ikigori cyokeje kibamo n'umuti, kivura abantu indwara zitandukanye, habamo n'igifu, nacyo kirakivura, abantu bakunda no kukirya, bakunda no kubicuruza kubera abantu babikunda cyane.

Inka itagira amahembe ni inka nziza cyane inka zo mu biraro, zigira amata meza kandi inkazo zo mu biraro ziratwungura kuko zitanga ifumbire uko umuntu abishaka.

Imbata ni amatungo magufi yororwa, akororerwa mu rugo, mu kiraro cyangwa ikibenja; imbata zitera amagi makeya ariko imbata zororoka vuba.

Inzuzi zivamo ibicuma, zivamo inzuho, ntabwo zifata umwanya munini, kubera ko ushobora no kuzitambagiza mu giti zikarandaranda, ziranda no ku mabuye ntabwo zitwara umwanya.

Ihene ni amatungo meza cyane. Akunda urubingo. Ihene nta bwo zirushya kuzahirira. Njyewe ngitangira korora nahereye ku ihene imwe. Najyaga ndayahirira urubingo, nayahiriraga n'urwiri ikarurya igahaga, igasa neza cyane cyane.

Igihingwa cy'ibigori kiba kiza cyane, kubera ko gituma umuntu abona amafaranga. Kandi ibigori ntabwo bitinda cyane mu murima. usangaga byera vuba. Ibigori iyo biri ahantu heza, biguha amafaranga menshi. Abantu bakunda no kuza kubigura cyangwa se kuza kureba uko ubihinga.

Abakunda kotsa ibigori usanga biryoshye cyane. Abakunda kotsa ibigori nanjye mumpeho ndabikunda, ndabirya, kubera ko numva bimereye neza cyane cyane mu mubiri. Usanga ibigori byokeje bindyohera kurusha ibitetse mu nkono.

Ibihwagari n'ibihingwa byiza bivamo amavuta, amavuta y'ibihwagari arakundwaga cyane kubera ko habagamo vitaminini nyinshi cyane ku buryo bifasha abantu mu mirire myiza cyane.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane, usanga gikunda kwera ahantu ku ishyamba, usanga ari ingirakamaro, kivamo igikoma, hari n'ingano zivamo umutsima bita igikwanga. Ingano ni nziza.

Igihingwa cy'ibishimbo by'imiteje ni cyiza cyane. Kidufasha kubona ibyo kurya, kidufasha kubona n'amafaranga. Ni igihingwa kidusaba ifungumbire ryinshi, gikunda guterwa mu Majyaruguru.

Ni byiza kureka ibigori bikuma neza, iyo ubisaruye bitumye neza usanga byaragiyemo inurwe, usanga biboze cyane, ugasanga bigupfiriye ubusa, kugira ngo ubone umusaruro mwiza cyane cyane nuko ubireka bikuma neza.

Imirimo yo mu rugo itwigisha byinshi cyane cyane iyo mu cyaro nko kugosora, kugosora nta bwo nabimenyaga, ariko nagiye gusura nyogokuru mu cyaro mbona ari kugosora arabinyigisha, nanjye navuyeyo mbimenye.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane cyane, abantu bakunda kugihinga, natwe kera twagihingaga ahantu heza, ni igihingwa kidasaba imirimo myinshi cyane cyane, iyo wagihinze kigufasha gukora imirimo mikeya ugakora n'indi y'ahandi.

Abantu bagosora aruko hari umuyaga mwinshi, kubera ko ubafasha kugosora ntahuhe cyane ngo yohereze umwuka mwinshi cyane cyane. Biramworohera iyo agiye mu cyerekezo kirimo umuyaga mwinshi cyane, nta mwuka mwinshi atakaza.

Ibishyimbo by'umutuku bigira amarongora menshi cyane, kandi aryoshye usanga babikunda cyane, kubera ko birera cyane, bigira umusaruro mwinshi cyane cyane, abantu babikunda cyane.

Imifuka idufasha kubika ibintu, kandi ibintu byinshi bitwarika neza. Usanga imifuka itwara ibintu byinshi cyane cyane kandi ukabishira ahantu heza cyane usanga iyo bifite umutekano nta kibazo.

Umuceri ni igihingwa cyiza cyane, ukunda kuba ahantu haba amazi, usanga bakunda kuwuhinga mu bishanga, usanga abantu bawuhinga bakunda kubona akazi ko gukora, bakunda guha abantu akazi, bakunda no kubona amafaranga ahagije uko babishaka, usanga umuceri wo mu Rwanda abantu bawukunda cyane cyane.

Ibigori by'amabara biba byiza. Njyewe nkunda ibi bigori by'amabara. numva kubyotsa ari byiza bita nyirakimoma. birayoha cyane. Bivamo igikoma, ukabona wagira ngo ni imvange, kandi nta kindi kintu bavanzemo.

Ibihwagari bivamo amavuta meza, twese niyo dukunda cyane cyane, kubera ko araryoha cyane, akamerera buri wese neza, ibihwagari ni byiza cyane, ni amavuta abantu bose bakunda cyane cyane.

Amashaza cyangwa majeri usanga ari igihingwa cyiza. Abantu barayakunda cyane yaba yumye cyangwa se ari mabisi usanga abantu bakwiye bayakunda cyane cyane kubera ko aryoha cyane tuyakoresha ahantu henshi.

Ibishyimbo ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu henshi cyane. Usanga ibishyimbo bikun guhenda ku buryo abahinga babonaga amafaranga menshi ahagije, usanga akenshi iyo bateye umuti biba bisa neza.

Ubunyobwa ni igihingwa cyerera mu butaka imishogi yabwo ijya mu butaka, ni igihingwa cyiza buri wese akunda gitanga amafaranga, gihingwa ahantu hamwe na hamwe ntabwo gihingwa ahantu hose.

Imifuka Idufasha mu mirimo myinshi. Tubikamo imyaka, tubikamo ibigori, tubikamo amasaka, tubikamo n'ingano, tubikamo n'ibindi byinshi, tukabibika neza bigatuma bitangirika cyane.

Imodoka nini zidufasha gutwara imizigo ku buryo bworoshye cyane, iyo wayipakiye mu mufuka, usanga imodoka itwaye ibintu byinshi cyane, abantu badashobora kwikorera, cyane cyane iyo hari umuhanda ugeze aho imizigo iherereye.

Hari uburyo bwinshi bwo gutunganya umusaruro wawe, ushobora no kumutunganya wicaye cyangwa se ugahunga ugashogora, warangiza kuwushogora ukawubika ahantu heza.

Inzu za kinyarwanda zabagaho kera, abantu barazikundaga cyane cyane kubera ko zabagamo uburiri, banazitekagamo, wasangaga amashiga yegereye uburiri, ukarya ugahita uryama, abantu bari bazifite kera cyane cyane, hashize igihe kinini zicitse.

Intama ni itungo ryiza ryororoka vuba, usanga mu giturage umuntu ufite intama, ufite n'aho ayiragira usanga ikura vuba, intama ziratandukanye, ariko intama yaderine ifasha umuntu w'umworozi, zororoka vuba cyane.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukunda gukorerwa mu ngo, buzamura abantu, tubonamo ibintu byinshi, buduha n'ifumbire, kororera mu rugo ni byiza cyane.

Ubworozi bwororerwa mu tuzu dutoya, ni ubworozi worora wubatse utuzu tugerekeranye ku buryo budatwara ubuso bunini cyane njyewe noroye inkwavu zimfasha kugera kuri byinshi, ifumbire n'amafaranga menshi kandi ndanarya.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza budufasha kumera neza, inkoko uzorora uzishize ahantu hashyuha iyo uzishyize ahantu hakonja zose zirapfa, imishwi nizo zivamo inkoko nini zikororoka zigatera amagi cyangwa zikavamo n'inyama.

Abaveteleneri badufasha ku bworozi bwacu, ingurube bakazitera inshinge zikima, cyangwa se bakazivura indwara zirwaye, bigatuma zimerererwa neza.

Imvubu ni inyamaswa ziba mu ishyamba, zikunda no kuba mu mazi ahantu hari ibiyaga ahantu hakonje cyane zikunda kuhaba, n'inyamaswa ziryana nta muntu upfa kuzegera keretse abazishinzwe.

Inyoni ziba mubiguruka, ngewe ntabwo nkunda inyoni, inyoni dukunda n'inkoko, inkoko nazo ziba mu nyoni, hari inyoni ziba mu mazi, zikunda amazi cyane, ari bwo buzima bwazo.

Ingagi ziba mu birunga, zikurura ba mukerarugendo zizana amadovizi, kubera ko iyo bavuye iyo hijya mu bindi bihugu baza bazanye amafaranga menshi, kazamura ubukungu bw'igihugu bakadufasha cyane.

Ubwoko bwibisiga biba ku migezi biba hafi y'amazi, hari ibisiga bikunda amazi cyane usanga byagiye ku mazi, hariho n'ibiba bigiye gushaka udusimba two kurya cyane, nk'amafi hari ibirya amafi.

Ingurube ziba mu ishyamba, zitororerwa mu biraro, ntabwo zororoka neza, nta n'ubwo zigira ifumbire, usanga ziri gutagaguza ifumbire aho ziri hose, ugasanga nta nyungu, kuko ntabwo bazorora, ziba mu mashyamba gusa.

Imisambi ni inyoni zikunda kuba ahantu hari amazi ku biyaga niho zakunda kuba ni inyoni zitona imyaka y'abaturage. Ni inyoni ni ibyiza ba mukerarugendo baza kureba baduhaga amafaranga.

imbata n'ubwoko bw'inkoko itera amagi agafasha mu mirire myiza bigatuma abantu batarwara indwara nka bwaki n'izindi zikomoka ku mirire mibi, bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Ingurube ni itungo ryiza borora, bitagora mu kuryorora bifashisha abantu..

Nyirabaraza n'ubwoko bw'ibisiga, bigendera kutaka, bigendera no mu kirere, njyewe nyirabaraza mbona yona iyo tuyibonye tuyirukaho.

Hari inyoni zibera mu mashyamba, hari n'izibera mu ngo z'abantu mu giturage. Inyoni ziba mu ishyamba, zitungwa n'ibindi bisimba n'amazi. Zibera mu biti.

Ibisiga bibaga hafi y'amazi bishobora no kujya abantu, niyo mpamvu bikunda kuba hafi y'amazi bitegereje ko abantu barahagera, ni byiza ko wakwirinda kujya ku ngezi no kugenda wenyine, ahubwo ukajyayo ujyanye n'abandi kugira ngo bitakurya.